Umwana ari ahatagirwa amazi arimo arakaraba intoki mu gikoresho gisa umukara, yambaye imyenda y'umutuku bigaragara ko mu maso yiwe hacyeye, inyuma ye hari uruzitiro rw'amatafari.

Icyapa kigaragaza umubyeyi n'umwana barimo barasarura mu murima ufite isura yishimye, hejuru yabo haragaragara ikirere gisa neza, ibimera biri mu murima bifite amabara y'icyatsi.

Rabuzima haragaragara abantu bahagaze hanze, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo abagore abagabo inyuma inyubako ifite amabara y'ubururu n'icyatsi hirya hari ikigega gifasha kubika amazi.

Ahantu hateraniye abantu benshi, haragaragara umugabo uri gusuhuza umwana ukiri mutoya, hirya yiwe hari abandi bantu bicaye. Hagaragara ubusitani bufite amabara yi'icyatsi, n'ibiti bifite amabara yi'cyatsi. Hejuru hari ikirere gikeye.

Abantu bari mu bukangurambaga mu bijyanye n'iby'ubuzima, bafite ibipapuro mu ntoki zabo, bicaye ku murongo umwe ku ntebe zifite amabara asa ikigina. Ku rukuta hari kugaragaraho amagambo yanditse mu mabara y'umutuku n'umukara.

Abana bakiri bato b'abakobwa b'abangavu bagiye kuvoma, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, umukara, ubururu n'umuhondo, ku ruhande hari kugaragara umurima urimo ibimera.

Abaganga bavura mu bitaro, hagati yabo harimo umugore wambaye imyenda y'umutuku, bo bambaye amajire y'umweru bose. Barimo barafata ifoto y'urwibutso, bari imbere y'umuryango.

Abategarugori bahagaze umwe ari kureba imbere, abandi bari inyuma barimo baraganira ku gikuta hari kugaragaraho ibishushanyo bifasha abana kumenya icyo ibikoresho bitandukanye bitandukaniyeho.

Aho bavurira abantu mu bitaro hari kugaragara umwana muto urwaye barimo baratera imiti, abaganga ni babiri umwe n'umugabo undi n'umugore, hepfo y'umwana hicaye umubyeyi we wambaye ibitenge.

Kingira afite imisatsi myinshi, ari kureba imbere yambaye agapira gasa umweru, umubyeyi we aramufashe n'umuganga arimo aramutera urushinge. Inyuma ye haragaragara abandi bantu bicaye.

Ku kigo nderabuzima hanze bari gufata ifoto y'urwibutso haragaragaraho abaganga n'abandi bantu bakorana nabo, abagabo n'abagore, inyuma iyo nyubako ifite amabara asa ubururu, haragaragaraho n'icyapa kigaragaza ibyo bakora.

Ahatangirwa amazi rusange mu baturage, hagaragara abamama batatu baje kuvoma. Babiri barimo barakurura icyuma gituma amazi azamuka, undi we agiye kuyaterura, bose bambaye ibitenge.

Abategarugori, inyuma yabo hari abagabo batatu, ababyeyi bambaye imyenda isa umuhondo, n'amajire asa icyatsi. Hasi bambaye ibitenge bose.

Ahavomerwa amazi rusange, hari kugaragara abantu bakiri batoya baje gufata amazi, harimo n'umubyeyi urimo urazamuka wambaye umupira w'umutuku n'igitenge, hakikijwe n'ubusitani bufite amabara y'icyatsi n'ibiti.

Umwana mutoya uri kuvoma, yambaye imyenda idoze mu gitenge, afite umusatsi mwinshi iruhande rwe hari urukuta rukotejwe n'amatafari, hasi hagaragara sima y'umukara.

Uruganda rukora imiti ivura indwara zitandukanye, haragaragara amamashini afasha mu kubika imiti no kuyikora, harimo umuntu uhagaze, hari n'icyapa kiburira.

Abantu barangije inama ku bihereranye n'iby'ubuvuzi, barimo barafata ifoto y'urwibutso, imbere hahagaze abagabo, ku ruhande hari umugore umwe uhagaze ku murongo w'imbere, inyuma na ho hari abandi bantu.

Abantu bakora mu bijyanye n'ubuvuzi bari mu nama, imbere yabo bafite udukombe banywereyemo icyayi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye; ubururu, umukara n'umutuku.

Ubukangurambaga bw'akarima k'igikoni mu mudugudu, hari kugaragara abantu bari kugahingamo, bambaye imyenda ifite amabara yerurutse cyane n'indi isa ikigira, harimo abagore n'abagabo.

Umubyeyi waje kuvoma ahantu rusange bavomera, haragaragara hejuru amashyamba akikije aho hantu, yambaye igitenge n'umupira ufite amabara y'umweru n'umukara.

Umugabo wirabura ufite ibibazo byo mu mutwe aragaragara ko afite agahinda kenshi arimo aririra amaso ye yatukuye, yambaye umupira usa icyatsi, inyuma ku gikuta hari kugaragaraho amabara yijimye.

Icyapa kigaragaza ikigo gifasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe haragaragaraho igishushanyo cy'umuntu n'agashushanyo gato kari ku mutwe kagaragaza ubwoko hasi hari amagambo yanditse ari mu nyuguti nini y'umukara.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe aragaragara ko arakaye cyane isura ye yijimye afite igitambaro yambaye mu mutwe gifite amabara y'icyatsi n'ikigina inyuma y'iwe hari igikuta gifite amabara y'icyatsi kivanze n'umuhondo.

Inama yateranyirije abantu hamwe bafite ibikorwa bari kuganiraho, hari umugore ufite ijambo, afite igikoresho kimufasha kurangurura amajwi, yambaye imyenda ifite amabara y'umutuku, ubururu n'umweru.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru aragaragara ku cyapa kigaragaza ubuvuzi bwo mu mutwe, yambaye igitambaro mu mutwe gisa umweru, ku ruhande rwe haragaragara amabara asa icyatsi, arirabura.

Ahagaragara abana benshi, bafite isura yishimye, bafite utwapa tugaragaza ikigo gifasha abantu mu mutwe, bambaye imyenda ifite ibara rimwe risa umuhondo.

Hari kuba ubukangurambaga mu bijyanye n'ubuvuzi, inyuma haragaragara ibyapa by'ikigo cyitwa RBC, hariho n'ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, hari kugaragara umugore uri gutanga ijambo wambaye ibirahure bimufasha kureba.

Abantu bari mu bukangurambaga bw'uburwayi bwo mu mutwe bambaye udupfukamunwa bicaye ku ntebe zisa umweru hagaragara imodoka inyuma yabo ishushanyijeho ibihereranye n'ibyo bakora inyuma hari aho kwicara.

Umuntu ufite uburwayi bw'amenyo aragaragara afite akagozi kamufasha kuvana imyanda mu menyo. Ahumirije amaso, afite imisatsi y'umukara. Haragaragara inyuma y'iwe igikuta gifite amabara y'ubururu.

Abana bakiri batoya bambaye imyenda yubururu bafite imisatsi mikeya bafite uruhu rwirabura, barimo baratozwa umuco wo kwiborosa bakarinda amenyo yabo.

Abantu benshi barimo barafata ifoto hamwe y'urwibutso. harimo abagore, abagabo n'umwana mutoya bateruye ufite uruhu rwera, hirya haragaragara icyapa kigaragaza icyo abo bantu bakora.

Ubuvuzi bw'amenyo hagaragara umumama bari gukura amenyo abagabo babiri umwe arimo arafasha undi gukura iryinyo yambaye n'agapfukamunwa uwo bari a gukura iryinyo araryamye.

Umwana uri kwita ku menyo yiwe, ari kwiborosa ayatunganya mu gitondo, afite isura ikeye, uburoso bwiwe burasa umuhondo n'ubururu. Yambaye ishati isa ubururu.

Umugore uri kwita ku menyo yiwe afite igikoresho kimufasha kwisukura yambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru n'insengeri isa umweru afite uruhu rutirabura cyane.

Abageze mu za bukuru bari kugenda mu cyerekezo kimwe, bafite uduti tubafasha kugenda, bambaye imipira isa umutuku n'udushora dusa umweru, ku ruhande hari abantu bakiri batoya babari impande.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru uri guseka inseko nziza ari gukina na mugenzi we umukino bakoresha utuntu bashyiraho batarutse, yambaye umupira ufite amabara y'umweru n'ubururu.

Babiri bambaye ingofero zifite amabara atandukanye, bambaye imyenda ya kinyarwanda igaragaza umuco w'igihugu umwe yambaye ishati y'ubururu bwerurutse undi yambaye ishati y'umweru.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru afite imvi, arirabura, ari mu myitozo ngororamubiri, ari gukora siporo zo kuryama hasi, hasi yashyizeho akantu aryamaho gafite amabara y'ubururu.

Haragaragara abagore babiri umwe ageze mu zabukuru, undi akiri mutoya bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, ukiri mutoya yambaye imyenda ifite amabara y'icyatsi n'umweru, ugeze mu zabukuru yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu.

Zabukuru bakunda gukora siporo, hari kugaragara umubyeyi u ugeze mu za bukuru, n'umutoya uri kumufasha bose bafite uruhu rutirabura cyane. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Itangazo rigaragara ku cyapa cyerekana uburyo uburwayi bwa diyabete bushobora kwitabwaho hari kugaragaraho igishushanyo cy'umugore hepfo hari inyubako izengurutse.

Gufatirwa ibizami byo gusuzuma icyorezo mu baturage, haragaragara umuganga urimo urafata ibizami ku murwayi, uhari ni umusaza ugeze mu za bukuru yicaye ku gatebe k'umutuku.

Icyapa kigaragaza uburyo mu Rwanda kanseri yitabwaho, biri kugaragara mu mabara yanditse mu nyuguti nini cyane z'umweru, haragaragaraho n'umutuku n'umuhondo n'ubururu bwijimye.

Abagabo babiri bahagaze bakora mu bijyanye n'ubuvuzi, harimo umuyobozi mukuru w'ibitaro, bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu, umwe yambaye ibirahuri bimufasha kureba neza.

Icyapa kigaragaza ibintu bigaragara mu muryango byanditse mu mabara y'umweru, inyuma hagaragaraho igice kinini amabara y'ubururu, hasi handitseho imyaka icumi mu mabara y'ubururu bwijimye.

Ubukangurambaga buri kuba hagaragara abantu babiri bafashe ibyapa, umwe ni umugore undi ni umugabo, umugore yambaye ibirahure bimufasha kureba neza, kuri ibyo byapa hagaragara amabara y'icyatsi, ubururu, hariho ibishushanyo bisa umukara n'amagambo y'umweru.

Ubukangurambaga ku bijyanye n'abagore mu buyobozi, haragaragara abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, bambaye utuntu tubaranga mu ijosi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Higanjemo abagore benshi cyane...

Aho basuzumira abantu barwaye barembye, haragaragara ibitanda bibiri bishashe. Ku ruhande hari rido, aho bakingiriza abantu bari mu cyumba kimwe kugira ngo abari hanze batababona, hari amadirishya hari n'amatara y'umweru.

Ahakorerwa ubuvuzi bw'amaso hagaragara icyapa kigaragaza uburyo bayitaho, hari ibipirizo bifite amabara y'umweru n'ubururu hari igifashe ku gikuta hejuru gifite amabara y'umweru hasi hariho intebe.

Ikorerwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye hari kugaragara imiryango ifite amabara yijimye hari kugaragara amatara, gisenge, no hasi harasa umweru. Ifoto ifite amabara atandukanye.

Ibitaro, haragaragara ibitanda bitandukanye abantu baryamaho, bifite utubati dufite amabara y'umweru n'umukara n'ubururu, haragaragaraho n'utwuyuma bashyiraho serumu zo gutera abarwayi.

Inyubako ifite imiryango y'umutuku, hejuru ku gisenge haragaragaraho amabara y'umweru n'amatara, ku nkingi zawo haragaragaraho ibikuta bifite amabara y'umweru n'ubururu.

Icyapa kinini kigaragaza ikigo nderabuzima cya Tabagwe, kiri mu mabara y'umukara ariko amagambo yanditseho arasa umweru mu nyuguti nini, hasi haragaragara abantu batandukanye baje kwivuza.

Ahakorerwa igikorwa cyo gukusanya amaraso, kugira ngo azafashe abarwayi bayakeneye, hirya haragaragara abantu baryamye ku bitanda bari kuyatanga, n'umuganga urimo urayafata wambaye ijire isa umweru.

Inyubako ibikwamo imiti n'ibindi bikoresho bakoresha kwa muganga biragaragara ko biri mu tubati hariho n'udupapuro tugaragaza neza icyo igikoresho kimara cyangwa umuti uwo ari wo.

Imashini yifashishwa mu gusuzuma umuntu mu mutwe bakareba ikibazo aba afite, haragaragara aho agatanda aryamaho gafite amabara y'umweru, ku ruhande hari utubati dufite amabara y'umweru babikamo ibikoresho bari gukoresha.

Mu bitaro aho bavurira abantu barembye cyane, haragaragara umugabo uryamye, wiyoroshe igitambaro gifite amabara y'ubururu n'umutuku. Hagaragara imashini zimufasha kureba uko umutima utera n'amaraso.

Imashini zifashishwa kwa muganga mu kubika amaraso aba yatanzwe n'abantu batandukanye ku bushake kugira ngo azafashe abantu bazaba bafite uburwayi bukenera ko babongerera amaraso.

Ibikorwa by'ubukangurambaga, hari kugaragara icyapa kigaragaza ibyo iyo nama ishingiyeho, imbere hicaye abantu bane, abagabo batatu n'umugore umwe, bafite amazi imbere yabo ari mu ducupa.

Ibitaro bivurirwamo abana batoya harimo amashusho ashimisha abana ari mu mabara atandukanye, hari igiti kiriho umugabo ugifashe, hejuru giteretseho umukobwa.

Mu bitaro ahakorerwa ubuvuzi bwo kubaga haragaragara abaganga batatu, umwe ari kubaga undi amuhagaza inyuma arimo aramufasha, hagaragara n'ibimufasha kureba umuntu neza aho agiye kubaga.

Imashini zikoreshwa kwa muganga mu bizami, aho basuzuma indwara abarwayi baba bafite hifashishijwe izo mashini. Zifite amabara y'umweru, harimo n'izaba zifite utubasha gutuma umuntu areba ikintu neza.

Ibitaro ahantu mu cyumba hiyubashye bakira abarwayi baba bishyuye amafaranga menshi mu cyumba cyabo cya bonyine, haragaragara igitanda gifite amashuka afite ibara ryijimye.

Bifite amabara menshi atandukanye, yaba hasi no ku nkuta, muri ayo mabara harimo icyatsi ubururu, umuhondo, umukara, amadirishya yabo afite ibirahuri ubasha kureba imbere n'inyuma.

Ikigo gikorerwamo ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuvuzi, hagaragara ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite amabara atandukanye, harimo ibifite ibirahuri by'umukara n'umweru, hagaragara n'intebe abantu bicaraho.

Iberamo ibijyanye n'ubuvuzi, hagaragara abantu babiri hanze bambaye imyenda y'umutuku hasi n'umukara, iyo nyubako ifite amarangi y'umweru hanze hari ibiti harimo ubusitani bwiza.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, haragaragara aho bakirira abantu ba mbere bakinjira, hari ibikoresho bifasha abantu kubona amashusho harimo amashusho.

Hari kugaragara ibyuma bifasha mu gukora amasuku y'imiti, biri mu mabara asa ibara ryijimye,, ku rukuta hari kugaragara amarangi asa umweru, hasi hari gusa ubururu.

Mu bitaro ahavurirwa abantu, hari ibitanda baryamaho abantu barembye, hari umugabo uri gukora amasuku n'umugore bafite ibikoresho bibafasha gukora amasuku, hejuru ku gisenge hari ibara risa umweru.

Imashini ikoreshwa kwa muganga kugira ngo basuzume umuntu mu mutwe uko ahagaze, nimba afite ikibazo bahita babibona haragaragara ho utubati ku ruhande dufite amabara asa ikigina hasi harasa umweru.

Ibitaro byakira abantu barwaye barembye, haragaragara ibitanda byinshi biri ku murongo umwe, igikuta kiriho bacomekaho insinga gifite amabara asa ibara ryerurutse hejuru hariho inzitiramubu.

Ahacuruzwa imiti ifasha abarwayi kubasha gukira vuba. Iri mu dukarito dufite amabara atandukanye, umweru n'umuhondo, umweru n'ubururu. Handitseho amabara n'amagambo afite ibara ry'umukara.

Kureba ubuvuzi bw'ingororangingo haragaragara amatara menshi muri icyo cyumba imashini zifasha gusuzuma umubiri ukamenya uko uhagaze, ntabantu barimo hasi harijimye ariko hasi hari utumashini dupima ibintu bitandukanye..

Ahakorerwa siporo z'ingororamubiri, haragaragara udutanda twifashishwa mu gukora ingororamubiri zo ku maboko n'izo mu nda, hari utubati dufite amabara asa ikigina, hirya hahagaze abagabo batatu.

Umuntu umaze gukora siporo, aragaragara ko ari kwishyiraho akantu kamufasha gukonja ku kuboko. Ashobora kuba yavunitse arirabura yambaye umupira ufite ibara risa nk'ivu n'ipantaro y'ubururu.

Igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye hagaragara amashusho; biri kugaragara mu mabara atandukanye y'ubururu umweru n'umukara harimo utugambo twanditse mu mabara y'umweru.

Haragaragara abantu bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yabugenewe n'inkweto zabugenewe, bari mu kibuga gikorerwaho imyitozo ngororamubiri, haragaragaraho imirongo ifasha kumenya aho ikerekezo kingana.

Igikoresho cyabugenewe mu gusuzuma umuntu, kikamurebamo imbere mu mubiri, gifite amabara y'umweru, hariho n'amatara yaka ubururu, gifite agatanda gasa umweru, n'amashuka y'umweru, ku ruhande hari inkuta zihakikije nazo zisa umweru.

Kwa muganga ahakorerwa ubuvuzi bw'ingingo, haragaragara umuganga uri gusuzuma umwana mu mazuru, afite igikoresho kiri kumufasha kuhareba neza ,yambaye umwenda ugaragaza ibyo akora.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika amazi haragaragara umuntu ufashe icyo gikoresho arimo arasuka mu gikombe cyo kunyweramo, byose birabonerana ku ruhande hagaragara ikirere cyijimye.

Aho bavurira abantu bavunitse bitewe n'imyitozo ngororamubiri bakoze, hagaragara umuntu wicaye ku ntebe, n'undi urimo umuvura, amushyiraho akantu gatuma ukuguru kwe gufata neza. Inyuma haragaragara icyapa cyerekana ingingo zitandukanye.

Akagare kifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda, gafite amabara y'umukara ku ntebe hariho nayy'ubururu bwijimye, gafite amapine agafasha kugenda n'aho inyuma babasha gufata ku muntu uri kugasunika.

Mu bitaro haragaragara aho basuzumira abantu baje kwivuza ingingo, hari itara rinini riri hejuru y'ako gatanda rifasha umuganga kureba neza uko umurwayi ameze, hanze y'idirishya hari kugaragara indabo zifite amabara y'icyatsi.

Imyitozo ngororamubiri yambaye ikabutura ntoya y'umukara araryamye hasi, afite uruhu rutirabura, haragaragara hasi amabara yijimye.

Icyapa kigaragaza ibikoresho bikoreshwa mu mikino ngororamubiri, hari kugaragaraho ibikoze mu ruziga, bifite amabara y'kigina, ingofero irinda umutwe, ifite amabara y'umweru n'ubururu.

Umuntu wicaye, yari ari mu myitozo, arimo araruhuka, afite icupa ry'amazi, arimo aranywa, ari kureba mu cyerekezo cy'imbere. Yambaye agakomo gasa icyatsi. Arirabura, yambaye imyenda y'umukara, afite n'ubwanwa.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo haragaragara n'ibyifashishwa mu nsimburangingo, harimo insimburangingo yo ku kuguru no ku maboko, hariho n'utundi dukoresho dufasha abantu mu gihe bagiye gukorera ahantu hari akaga.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri aryamye hasi yambaye imyenda yabugenewesa isa umukara; ku ruhande rwiwe hari kugaragaraho urukuta rufite amabara y'umweru n' idirishya risize amarangi y'mweru.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yambaye umwenda hasi usa ubururu no hejuru usa umweru, ari mu cyerekezo kireba imbere ye, ku ruhande rwe hari igiti gifite amabara y'icyatsi.

Nk'ingingo, kwa muganga hari kugaragara umugabo uryamye ku gatanda bari kwitaho, yambaye umupira w'umweru n'ikabutura ngufinya isa icyats,i yambaye inkweto z'umukara n'umweru, uri kumwitaho ni umuganga wambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'ubururu.

Mu myitozo ngororamubiri yambaye ikabutura y'umukara n'umupira ufite ibara ryijimye, yambaye inkweto ari kuzikuramo, hirya yiwe hari amazi menshi ari mu muhanda.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, afite uruhu rwera, arimo aranywa amazi aruhuka, inyuma ye haragaragara ikirere gifite akazuba katari kenshi, yambaye inkweto zifunze n'ipantaro y'umukara.

Mu bitaro umuganga mukuru arimo arereka bagenzi be uburyo bagiye kuvuramo umuntu uhanganye n'ibibazo by'ingingo, bamwe bari kwandika ibyo arimo arababwira, bambaye amajire y'umweru.

Mu myitozo ngororamubiri biragaragara ko yicaye afite isaha ku kuboko, imufasha kumenya aho igihe kigeze. Arirabura yambaye ikabutura ifite ibara ryijimye n'isengeri ifite ibara ry'umukara. Hirya hari ikirere gifite umucyo.

Mu myitozo ngororamubiri, ari kugaragara ko afashe akaguru kiwe, arikokarambura afite uruhu rwirabura yambaye agakomo gasa umukara, yambaye umupira w'umweru.

Imiti ikoreshwa ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri. Iri mu dukarito dufite amabara atandukanye, hariho amagambo yanditseho y'umweru, amwe ari mu nyuguti nini andi ari mu nyuguti ntoya mu mabara y'umukara.

Umuti gakondo, uri mu icupa risa umweru, hashushanyijeho uwo muti, ni gikakarubamba rifite amabara yanditseho agaragaza uwo muti yanditse mu ibara ry'umutuku.

Muganga ukora mu bijyanye no kubika imiti hari kugaragara uducupa twinshi turimo imiti dusa umukara n'umweru, ku ruhande harimo udukarito babikami iyo imiti dufite amabara y'umuhondo n'umutuku.

Imiti gakondo ivurishwa abantu, imwe iri mu dukarito dusa umweru, hari uri mu gacupa gafite amabara y'umuhondo, n'umufuniko w'ikigina, handitseho amagambo ari mu nyuguti nini z'umukara.

Imiti gakondo ivura uburwayi butandukanye, buri kugaragara mu ibara risa umweru, inyuma hakaba hagaragara irindi bara risa icyatsi, uri mu gacupa gasa umweru.

Imiti ya gakondo iragaragara mu mabara y'icyatsi n'indabyo ziri hejuru, handitseho amagambo y'icyatsi ari mu nyuguti ntoya n'inini, ku ruhande hariho utugambo dutoya twanditse mu mabara y'umuhondo n'icyatsi.

Umuntu ufite imiti gakondo, ifite amababi asa icyatsi, nawe yambaye umupira urimo ibara ry'umuhondo, n'icyatsi, hasi kuri sima haragaragara amabara asa icyatsi.

Imiti ya kinyarwanda iri mu macupa, tumwe ni dutoya andi n' manini biri mu macupa afite amabara atandukanye. Handitseho amagambo y'umukara ari mu nyuguti nini.

Agaragaza ikigo cyitwa arowe, hagaragaraho agashushanyo kari mu mabara y'umukara, n'amagambo yanditse mu nyuguti nini mu mabara atose y'umukara hasi hagaragara amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Umuntu ni muganga yambaye imyenda y'umweru, mu ntoki ze harimo agakarito kagaragaza aho babika imiti, ukundi kuboko kugaragaza imiti afashe mu ntoki, hasi hariho ameza asa umweru.

Mu ishyamba haragaragara ibiti byinshi n'igiti gifite amababi asa icyatsi, hasi hariho amashami yumye n'ubutaka n'igiti gifite imizi minini yashoye.